Hari abantu bagenda bakora imishinga itandukanye, hari n'abakora imishinga yo gucuruza amafaranga ku matelefoni. Umuntu akaba ashobora koherereza undi batari kumwe amafaranga binyuriye kuri telefoni. Umuntu ucuruza amayinite cyangwa se amafaranga yo kuri telefoni hari inyungu agenda abona.

Hari ibikorwa rusange bishyirwa ahantu hatandukanye mu gihugu, kugira ngo bifashe abantu kubaho neza. Ibyo bikorwa bituma abantu bagira ubuzima bwiza. Abantu iyo bahuriye muri ibyo bikorwa, bashobora kwishima, bakaba bakifatanya mu gusabana n'abandi, hanyuma bakanifotoza.

Abantu benshi bagira ubushishozi mu gushaka amafaranga hari uburyo bwinshi abantu bashobora gushakamo amafaranga harimo nko kuyacuruza, gucuruza amafaranga ukayohereza mu gace kamwe ajya mu kandi hari inyungu umuntu abonaho bityo ubuzima bwe bugakomeza kubaho neza.

Ibyuma by'ikoranabuhanga bifitiye akamaro abaturage kuko birinda abantu ubujura, hari ibyuma by'ikoranabuhanga umuntu akoresha ashaka amafaranga, mu gihe gito akayabona kandi bikamurinda kuba yakibwa.

Abantu bacuruza amafaranga akoreshwa mu ikoranabuhanga nabo hari inyungu bagenda babonaho, hari imiyoboro myinshi ikoreshwa mu gucuruza ayo mafaranga kandi abantu bayicuruza nabo hari amafaranga y'imisoro bagenda bishyura ku gihugu kugira ngo ibikorwaremezo biboneke.

Abantu iyo bahagaze ahantu hamwe barushaho gusabana by'umwihariko iyo hari igikorwa bakoze bishimira kwifotoza kandi aya mafoto akababera urwibutso rw'icyo gikorwa, kwibumbira hamwe mu mashyirahamwe ndetse n'amakoperative bishobora kubafasha gukomeza kubana neza no kunga ubumwe.

Abantu bahinga inanasi bagomba kwitondera ahantu bazihinga, kuko inanasi zidakunda kwera ahantu aho ariho hose.

Ubworozi bw'inkoko bukorwa mu buryo butandukanye, kandi bugakorwa n'abantu batandukanye. Inkoko ziba zikeneye ibintu byo kurya, kandi inkoko ziba zikeneye umutekano uhagije kugira ngo zikomeze kubaho neza. Niyo mpamvu abantu bafite inkoko bagomba kuzishakira ibyo kurya bihagije.

Abantu bahuza imbaraga kugira ngo bagire ibikorwa by'iterambere bashobora kwigezaho kugira ngo bahuze imbaraga barabanza bakaganirizwa hanyuma babona bahuje ibitekerezo bakishyira hamwe bakagira ikintu runaka bashobora gukora.

Abantu iyo bishyize hamwe kugira ngo bakore igikorwa kibateza imbere hari inyungu bagenda babona kandi kwishyira hamwe kwabo gushobora kubateza imbere mu buryo runaka. Umuntu ugira uruhare mu gutuma abandi babaho neza ahembwa bishimishije.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bashyira hamwe kugira ngo bagire ibyo bageraho bashobora kwibumbira mu makoperative cyangwa se amashyirahamwe hanyuma bakagenda babona inyungu runaka ibafasha gukomeza kwiteza imbere.

Ahantu henshi bacuruza haba hagaragara isuku, kandi ibicuruzwa byigaragaza. Umuntu ushaka kubona inyungu nyinshi, agomba kugira ahantu acururiza heza ku buryo mu gihe gito, abona inyungu n'amafaranga ahagije. Ubwo rero gucuruza bizana amafaranga menshi.

Ahantu abantu biyakirira hagomba kuba hafite isuku kandi hameze neza, iyo abantu biyakiriye ahantu hafite isuku barushaho kwishima, kandi abantu bubatse aho hantu kugira ngo bahakorere ibikorwa byabo by'ubucuruzi, babona abakiriye inshuro nyinshi.

Inzu abacuruzi bajya kuranguriramo ziba zirimo ibintu byinshi. Abacuruzi bashobora kujya muri izo nzu bakagura ibintu byose bashaka ku mafaranga aba yaremeranyijwe kuko bahabwa fagitire igaragaza uko bagura ndetse n'uko bashobora kugurisha.

Hari amazu acururizwamo aba ari ku mihanda, aho umuntu ashobora kuguriramo ikintu cyose yifuza. Ayo mazu afite akamaro, kuko hari igihe umuntu ahanyura ari mu modoka agahita atuma ikintu yifuza, ako kanya akakibona.

Abantu bacuruza baba bagomba guharanira kugira isuku kuko ibyo bacuruza iyo bifite isuku n'ubuzima bw'abaturage burushaho kuba bwiza, mu gihe abaturage bacuruza ibintu bidafite isuku bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abandi kuko bashobora kurwara indwara nyinshi.

Inyubako zikorerwamo ubucuruzi zigaragara ahantu hatandukanye kandi abantu benshi bashobora kungukirwa nazo, izo nyubako zifite akamaro cyane kuko abantu bazikoreramo bishyura imisoro, iyo misoro igafasha abaturage kubaho neza.

Hari abantu bakora imihango igiye itandukanye, hari abantu nanone bagira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo, nanone kandi gushyira amazi ahantu bituma hatoha bityo abantu bagashobora kubona umusaruro ukwiriye ushobora kubatunga mu gihe kiri imbere.

Abaturage b'abanyabukorikori mu kuboha ibyibo cyangwa se udukapu, bashobora kubaho udukapu twinshi, bityo bakaba babona amafaranga yo kwikenuza, bakava mu bukene mu gihe bari bafite ubukene.

Abaturage iyo bahuriye ahantu hamwe kugira ngo bagire ibintu bitandukanye baganiraho. Baba bafite ikibahuje kandi intego yabo bashobora kuyigeraho, hari ibintu byinshi bibafashije. Ubwo rero ubushobozi baba bafite bwo kungurana ibitekerezo bubafasha kugera ku bintu byinshi.

Insengero zituma abaturage bajya mu bikorwa runaka kugira ngo batazapfa, kuko mu nsengero abantu bahigira ibintu bishobora guhindura imitekerereze yabo mu gihe babyigishijwe n'abantu byitwa ko ari abahanga.

Abantu iyo bajya mu nsengero, hatitawe ku rwego umuntu arimo, ashobora gupfukama uko yaba yambaye kose, agasenga. Ibyo biterwa n'uko aba agamije guha Imana icyubahiro mu buryo runaka.

Mu nsengero abantu barahajya bakaganira n'Imana. Iyo umuntu yagiye mu rusengero ashobora gupfukama agasenga cyangwa se agasaba imbabazi umuntu yahemukiye. Umuntu ugiye mu rusengero wese agomba kugira umutima ukeye kandi umwemerera kubana neza n'Imana.

Kugira ngo umuntu abeho neza, aba agomba kurya neza. Ibyo kurya birimo: ifiriti, ibirayi ndetse n'ibindi. Bishobora gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Iyo ashaka kubigura ashobora kubigurira muri resitora cyangwa se akabyitekera akabirya.

Hari inzu nziza ziba zubatswe ahantu hatandukanye, mu mijyi ushobora kuhasanga inzu z'amahoteli, abantu bashobora kuva mu mahanga bagacumbikamo, ndetse n'abantu bari mu gihugu imbere bakaba bacumbikamo mu gihe babishaka.

Abantu benshi bakora ibintu bishobora kubateza imbere kandi bishobora gutuma bakomeza kugubwa neza, mu gihe hari icyorezo barafashanya kugira ngo buri wese atanduza mugenzi we, hanyuma bakambara udupfukamunwa kugirango ngo hatagira uwanduza undi.

Umuntu ufite icyumba kirangwamo isuku, hari ibintu byinshi ashobora kubona harimo n'abashyitsi ariko by'umwihariko mu mahoteli haba ibyumba byiza umuntu ashobora kwicaramo akumva aranezerewe kubera ko aba yishyuye amafaranga.

Abantu bishimira ibintu bitandukanye hari abantu bakunda gutemberera mu mahoteri afite ibyiza nyaburanga ku buryo babona ibintu byose bashaka kureba kandi bishimira ahantu hari amazi ndetse n'akayaga kameze neza ku buryo umuntu ahatemberera kumva araruhutse.

Abantu benshi bajya mu masoko kugura ibintu bitandukanye. Umuntu najya mu isoko ashobora kuhajyana amafaranga, hanyuma akahakura imyenda yo kwambara. Abantu bajya mu isoko baba bafite amafaranga bashobora kugura ibintu byose bashaka.

Gucuruza inkweto bibagirira akamaro cyane kuko iyo umucuruzi acuruza inkweto hari amafaranga agenda yunguka, ni yo mpamvu abacuruzi b'inkweto benshi bagenda babona inyungu kandi iyo nyungu bashobora kuyikoresha mu buzima bwabo, ubwo rero abacuruzi bacuruza inkweto baba bagomba kwitondera ibicuruzwa bacuruza bakareba ko biva ahantu heza.

Hari imihanda myinshi usangaho ibicuruzwa bitandukanye. Ibyo bicuruzwa abantu babicuruza hari amafaranga y'inyungu babona kandi nabo bishyura imisoro. Iyo misoro igakoreshwa mu kubaka ibikorwa remezo bigaragara mu gihugu.

Hari inyubako nziza z'amahoteli abantu bashobora kujyamo bakarya ndetse bakanaryama mu gihe babyifuza, gusa kugira ngo umuntu ajye muri izo nyubako agomba kuba afite amafaranga ahagije kugira ngo nawe abone ibintu yishimiye.

Hari amaresitora menshi cyangwa se inzu zicururizwamo ibyo kurya umuntu ajyamo agafata icyo ashaka hanyuma akishyura amafaranga niba akeneye ibiryo akabihabwa na we akishyura amafaranga runaka.

Imodoka zishobora kwifashishwa mu kuvana abaturage ahantu runaka zibajyana ahandi, umuntu ugura imodoka afatwa nk'umukire mu gace atuyemo kandi nibyo koko kuko imodoka igura amafaranga menshi.

Imihanda ifitiye akamaro abaturage kuko ikoreshwa n'abantu bafite ibinyabiziga. Imihanda ituma abaturage bava mu gace kamwe bakajya mu kandi, kandi imihanda n'ibikorwa remezo biboneka ahantu henshi mu gihugu, kuko biba byarubashtswe ku nkunga ya leta.

Abantu bafite ibikoresho bitwara abagenzi baba bagomba gushaka uruhushya mbere y'uko bajya mu muhanda gutwara kuko batwaye badafite uruhushya rubemerera gutwara bashobora guhanwa cyangwa se ibinyabiziga byabo bigafatirwa.

Ibinyabiziga bitwara abantu, bifasha abantu mu ngendo, bikaborohereza ingendo zabo kuko hari ibinyabiziga bigenda ku muvuduko mwinshi cyane, umuntu akaba yagera iyo ajya bitamusaba igihe kirekire.